Icyapa kinini cyampamariza ikigo cy'ubwishingizi, imodoka ziri mu muhanda, inyubako, ibindi byapa bigufiya biri ku ruhande.

Icyapa kirekire cy'ibyuma cyometseho urupapuro rugaragaza itangazo ry'ikigo cy'ubwishingizi hariho imodoka y'umutuku yakoze impanuka.

Ameza asize irange ry'umweru kuri ayo meza hateretse indobo ebyiri. Indobo ya mbere irimo amacapati, indobo ya kabiri amandazi, hari n'agasahane kandi hakabaho akantu ku rusenda n'ak'umunyu, hateretse imineke, hateretseho amagi munsi ya meza hari puberi ushobora gushyiramo imyanda, hari n'intebe kandi yumweru, irimo iragaragara, hari n'icyapa cy'umuhanda kirimo kiragaragara hari n'umuntu kandi uri mu muryango waho ngaho ushaka kubakenera ibyo kurya wagana aha hantu bakabikoherereza.

Icyapa kiriho umukobwa umwenyura wambaye umupira w'umuhondo n'itaburiya ye y'umukara mu ntoki ze afite igitabo. Ni icyapa cyamamariza ikigo cy'ubwishingizi aho ushobora gushinganisha ibicuruzwa.

Icyapa kiriho umukobwa n'ubusore bari mu modoka nziza kigaragaza ikigo cy'ubwishingizi aho wahamagara nimero zanditseho ugafata ubwishingizi bw'imodoka yawe.

Icyapa kiriho itangazo ry'ikigo cy'ubwishingizi cya radiyanti, aho wagura ubwishingizi udahenzwe hatanzwe nimero wahabaga uramutse ubakeneye, ifoto y'umukobwa umwenyura uri kuri icyo cyapa.

Abagore, abagabo ,abakobwa n'abahungu bicaye muri sale nziza, inyuma harimo nabandi bantu bahagaze bicaye ku ntebe zitukura ndetse ibirenge byabo bikandagiye ku itapi nziza y'ubururu. Impande yabo hari igikuta ubona gifite amabara meza ubururu, umweru harasa neza rwose.

Icyapa cyamamariza ikigo cy'ubwishingizi mu bijyanye n'ubuvuzi ifoto iriho umukobwa mwiza umwenyura atwaye imodoka y'umukara.

Icyapa kirekire kiriho umusore w'umuzungu umwenyura, nimero zo guhamagaraho, kiramamariza ikigo cy'ubwishingizi. Amashyamba n'ibiti biri ku ruhande rwacyo.

Icyapa kiriho itangazo ryamamariza ikigo cy'ubwishingizi cya radiyanti. Hariho ifoto y'umukobwa w'inzobe witaba telefoni, wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara. Iruhande rwe hari ivarisi. Ni itangazo rihamagarira abantu gufata ubwishingizi ku bijyanye n'ingendo.

Icyapa gikozwe mu byuma kirekire kiriho igipapuro cyanditseho amagambo yo kwamamaza, inyuma hari insinga z'amashanyarazi mu kirere, ahagaragara ibicu by'ubururu n'iby'umweru.

Icyapa cy'umuhondo kiriho umugabo n'umugore, bari kumwenyura inyuguti z'umweru zanditseho ziri guha ikaze abakiliya muri icyo kigo cy'ubucuruzi, itangazo riri kwamamaza.

Urupapuro rw'umweru rwandikishijeho inyuguti z'umukara ahagaragara ikigo cya emutiyeni cyabikije amafaranga kuri koti y'umukiriya ufite nimero zero karindwi icyenda umunani makumyabiri na rimwe icyendacyenda itatu n'umunani, yashyizweho ibihumbi bine.

Imyenda y'amatisi niy'amakoboyi; umukara, ay'ubururu, ay'ikigina, aya kaki, arimo imirongo amanitse ku duti mu nzu y'ubucuruzi.

Mu nzu ikorerwamo ubucuruzi, ku meza manini y'urubaho hariho ibikapu bibiri, umukara, hasi hari ibindi.

Ni iduka rikoreramo ubucuruzi. Ikoti ryiza ry'ubururu ririmo imirongo y'umweru, mo imbere hari ishati y'ubururu bwerurutse bwikirere, imanitse ku cyuma.

Mu nzu ikoreramo ubucuruzi harimo etajeri ndende zirimo ibicuruzwa bitandukanye ibinyenda, amashakoshi, inkweto, imitako n'ibindi bitandukanye hasi hubakishije amakaro.

Mu nzu ikoreramo ubucuruzi, uduti tumanitseho udukapu tudoze mu mwenda w'ibitenge. Umuhondo, umutuku, umweru, umukara, inzu yubakishije amakaro, ibikuta bisize amarange y'umweru.

Haruguru y'umuhanda wa kaburimbo ahateye ubusitani, inyubako ifite urukuta rw'amabuye, mO imbere hahagazemo imodoka z'amoko atandukanye, mu nzu ikorerwamo ubucuruzi bwazo.

Imodoka ebyiri zo bwoko bwa fuso zihagaze muri parikingi, imbere yazo hahagaze abagabo batatu bateruye akapa k'umweru mu ntoki, umwe yambaye umupira utukura, uwo hagati yambaye ijire y'umuhondo, uwo ku ruhande yambaye umupira w'ikigina.

Inzu ikoreramo ubucuruzi bw'amamodoka n ishami rya Yundayi, mu imbere mu nyubako harimo imodoka z'ubwoko butandukanye imbere hari ipoto y'amashanyarazi iriho n'insinga.

Ubusitani burimo ibyatsi indabo urugo rwubakishije ibyuma ibyapa abanyamaguru bagenda mu muhanda amapoto y'amashanyarazi ariho n'insinga abanyamagare n'abamotari hagati umuhanda.

Imodoka y'umukara yo mubwoko bwa toyota, ihagaze muri parikingi iruhande rwayo urukuta rurerure rw'amabuye ,ibyuma bizengurutse ibiti ,amapoto y' amashanyarazi ariho, insinga.

Abagabo batatu bahagaze mu kibuga cyubakishije amapave, mu biganza byabo bateruye akapa k'umweru inyuma haparitse imodoka nini zo mu bwoko bwa fuso, hirya hari ihema ry'umweru.

Imodoka nziza isize irange ry'umweru amapine meza kuruhande izindi modoka nyinshi zitandukanye munyubako ahakorerwa ubucuruzi bwazo.

Nyiricyubahiro umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda yambaye ishati y'umweru nipantaro y'umukara mu kiganza cy'iburyo afite icyuma ndangururamajwi ndetse n'agacupa k'amazi kuru ruhande yicaye hagati y'abantu abantu benshi bamuhanze amaso.

Umugore ufite imisatsi idefirije ku mutwe yambaye ikoti ritukura ririmo imirongo, afite ikaramu arambitse ibiganza ari gusinya mu gitabo imbere y'umucuruzi cyangwa se umukozi wa banki.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara, ishati y'ubururu bwerurutse, isaha ku kuboko, ibiganza ku mashini ya mudasobwa , mu ruhande rwe hari undi wambaye ishati y'umweru n'imashini ifotora.

Umugabo ufite inote nyinshi mu biganza bye yambaye umupira w'ubururu ishati na karavati n'amalinete, ku mutwe we afite umusatsi uringaniye, kuruhande hari imashini ibara amafaranga.

Ibiganza bifashe inoti nyinshi birambitse ku meza, imashini yo kubara imifungo y'inoti mu kigo cy'ubucuruzi n'ivunjisha.

Abakobwa babiri bambaye imipira y'ubururu, bahagaze imbere y'ameza maremare cyane ateretseho ibinyobwa by'amata by'uruganda rwa Mukamira bifunze mu makarito.

Inzu yubakishije amakaro ku bikuta no hasi umukobwa uhagaze wambaye agakabutura kiroza n'umupira w'umweru ahetse igikapu m'umugongo afite agaterefoni mu ntoki intebe y'urubaho, umuryango ukinguye mu nzu ikorerwamo ubucuruzi bw'amata icyasi cyangwa se igicuba giteretse kirimo inshyushyu.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'amata, abagabo babiri bateruye igicuba bari gusuka mu mashini iyatunganya, umugore uhagaze wambaye agatambaro mu mutwe, inyuma yabo uwambaye umwenda w'icyatsi kibisi.

N'icyapa cyo ku muhanda hejuru hari ikiriho umurongo hejuru hari ikintu kibyimbye hameze nk'umusozi, munsi yacyo har' ikiriho abana, n'umukobwa, n'umuhungu ndetse na metero ijana hari igare rihaparitse imbere yaho hari amatara y'amamodoka, biragaragara yuko ari nijoro.

Umugore wirabura wambaye ikoti ry'umukara ni'ijipo y'amabara y'umweru imbere hicaye umucuruzi ufite telefone mu ntoki ni mu nzu ikoreramo ubucuruzi bw'amata iruhande hari icyuma kiyatunganya.

Inzu ikoreramo ubucuruzi icyuma gitunganya amata, intebe ya pulasitiki ameza etageri ndende irimo abajerekani y'umweru arambitse, ikarito n'amacupa y'amazi inkongoro hejuru.

Intebe ameza bya purasitike by'umweru, utujerekani n'igicuba biteretseho amasahani, abana babiri bari kunywa amata, umugabo bahagaze iruhande mu nzu y'ubucuruzi yubakishije amakaro.

Ameza ateretseho amacupa, udukombe, utujerekani turimo ikivuguto. Ni mu nzu y'ubucuruzi ahari amata.

Icyapa kiriho ibara ry'umuhondo ry'ubukara ndetse n'umweru, aho ushobora kwishyura serivisi unyuze kuri murandasi harimo viza mastakadi n'ibindi bigiye bitandukanye.

Icyapa kiriho ikiganza gifashe telefone mo gake hariho amagambo avuga uburyo wakohereza mafaranga, ni ikigo cy'ubucuruzi cy'itumanaho cya emutiyeni.

Icyapa cyamamariza ikigo cy'ubucuruzi cya kopedu aho wizigamira ukaguriza ugatera imbere. Itangazo rigaragaza ko ushobora kohereza cyangwa ukanakira amafaranga ukoresheje wesitani yuniyoni.

Urupapuro rw'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda rwahawe umucuruzi rwemeza yuko ntamwenda afite w'imisoro mu bigaragara yagiye asora neza.

Urupapuro ruriho ikirangantego, ni ikigo k'imisoro n'amahoro umusoreshwa yishyuye neza ku guhe bigaragara ko ntabihano n'amande yigeze atanga.

Urupapuro rw'umweru ruri mu kirahuri cya mudasobwa, rugaragaza ikigo cy'imisoro n'amahoro, aho umusoreshwa yatanze amafaranga y'umusoro ndetse n'ay'ibihano by'ubukererwe.

Urupapuro rw'umweru rwandikishijeho inyuguti z'umukara, ni urw'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda cyatanze inyemezabwishyu ku musoreshwa aho kigaragaza amande ndetse n'ibihano.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho inyemezabwishyu ni urw'ikigo k'imisoro n'amahoro aho umusoreshwa yagiye yishyura neza ku gihe akishyura n'umusoro ku nyungu.

Icyapa giteretse imbere y'inyubako ikorerwamo ivunjisha, aho bahindura amafaranga y'ubwoko butandukanye, bagura banagurisha. Umugore uri kuruhande wambaye ipantaro y'ubururu inyuma ye hahagaze imodoka.

Mu nzu y'ubucuruzi aho bakora ivunjisha, ibiganza birambitse ku meza bifite inoti nyinshi biri kuzicuma, ibindi ku ruhande by'uwambaye umwenda wirabura ari kubara inoti.

Inote y'ijana yo mu gihugu cya kongo ishushanyijeho inzovu. Iyindi note iriho imparage imwe ifite ibara ry'ubururu indi ifite ibara ry'icyatsi kibisi hashushanyijeho repuburika ya kongo.

Ibiganza bicigatiye inoti z'amadorari iz'amayero magana atanu, ijana, mirongo itanu, makumyabiri, icumi, ni ikigo gikora ibijyanye n'ivunjisha.

Icyapa cyamamariza ikigo gikora ivunjisha, hariho ibihugu bitandukanye byo ku isi amafaranga yabyo uko agurwa n'uko bayagurisha.

Umugabo wambaye ikositime y'umukara na karuvati, mu kiganza afashe inoti zitandukanye nyinshi, ku ruhande hari icyapa cy'umuhondo harimo n'ibara ritukura ry'ikigo cy'ubucuruzi gikora ivunjisha.

Imodoka yu'mweru iri mu muhanda wumukara ifite amapine y'umukara, iri mu mabara yu'mweru ndetse harimo n'mabara y'umuhondo, iruhande rwayo hari ipikipiki itwaye umuntu umwe wambaye agakote k'umuhondo ndetse n'ubururu, ipantaro y'umweru ndetse numupira w'mweru n'undi wambaye umupira wumukara ipantaro y'umuhondo werurutse n'ingofero y'ubururu ahetse n'igikapu cy'umukara.

Aya n'ameza ari mu nzu, bigaragara ko aya meza ari ayokuriho arimo n'intebe nazo zibaje mu biti ariko aho bicarira hariho imisego.

Ku meza arambuyeho inoti z'amayero hariho uko zikurikirana bitewe n'imibare yazo, iy'atanu, iy'icumi, iya makumyabiri, iya mirongo itanu, n'iy'ijana n'iya magana abiri.

Mu nzu ikorerwamo ivunjisha ry'amafaranga, abazungukazi bahagaze kuri gishe umwe ari ku ruhande rw'imashini isohora amafaranga ya etiyemu.

Icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi handikishijweho inyuguti z'umukara, ahakorerwa ivunjisha ry'amafaranga aho bayagura bakanayagurisha.

Icyapa cy'ubururu hejuru y'inyubako handitsemo amagambo mu nyuguti z'umweru. Ni mu nzu ikorerwama ivunjisha ry'amafaranga, urujya n'uruza ry'abantu bagana muri iyo nyubako baje kuvunjisha.

Inkweto z'umukara, ku muryango w'inyubako ifunguye ikoreramo ubucuruzi bw' ivunjisha. Icyapa gitukura kiri hejuru y'umuryango. Abicaye mu biro, bari gukoreramo ako kazi.

Mw'imbere mu nzu ahakorerwa ivunjisha ry'amafaranga. Amavaze ateretse mu nguni arimo indabo nziza, Intebe y'umukara iteretse imbere y'ibyo biro, ibikuta ahasize uruhande rumwe iranjye ry'icyatsi kibisi.

Urugi rufunguye umuryango w'inyubako ikoreramo ubucuruzi bujyanye n'ivunjisha ry'amafaranga, icyapa kiri ku muryango n'ivaze irimo agati hejuru amagambo yanditse ahereza ikaze ababagana.

Icyapa gitoya kiri ku nyubako ndende ya etage cyandikishijeho amagambo y'umutuku n'umukara ni ahakorerwa ivunjisha ry'amafaranga abagabo bari gutambuka imbere y'inyubako hirya gato umutaka w'umuhondo w'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni igiti kirekire kiri imbere y'izo nyubako.

Inzugi z'icyatsi kibisi zikinguye, zometseho ibyapa byandikishije ikaramu y'icyatsi kibisi. Umugabo uhagaze mo imbere mu nyubako, ahari ibirahuri ahakorera ikigo cy'ubucuruzi n'amabanki.

Inzu ikoreramo ubucuruzi bwo kuvunjisha amafaranga, icyapa kigaragaza ibihugu bavunjira, hejuru kamera mu gikuta, urukuta ruriho itsinga, umuryango ufunguye.

Ibyapa bitandukanye byometse ku gikuta cy'inyubako ikorerwamo ibijyanye n'ubucuruzi, bwo kuvunja amafaranga. Hari icyapa gitoya kigaragaza ikigo cy'abakorera umutekano na za kamera, hariho banki y'abaturage n'ibindi bitandukanye.

Inzu icyinguye hejuru yayo icyapa kigaragaza ko hakorerwa ibijyanye nivunjisha ry'amafaranga ibihugu bitandukanye amabendera ari k'umuryango.

Imitako ibiri iteretse ku meza manini n'intebe bikozwe mu rubaho, inzu nziza isize amarangi, ibikoresho bigiye bitandukanye hakorerwaho ubucuruzi bw'ibibajwe.

Ibikapu, icy'umukara n'iby'ikigina biri muri etajeri, ameza manini, intebe z'umukara, inzu yubakishije amakaro isize amarange y'umweru.

Intebe zifunikishije igitambaro gitukura munzu irimo amakaro inguni yayo hateretsemo umutako urukuta rusize amarange.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara wicaye ku kirundo cy'imbaho, inyuma ye hamanitse ibitambaro by'umutuku ibyamabara ni mu nyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'imbaho.

Ameza afite ishusho y'uruziga intebe ziri kuruhande rwayo ziyazengurutse, byose bikozwe mu rubaho, mu muhanda ahari umumotari utwaye moto, n'imodoka nini kuruhande ya fuso.

Mu nzu ahateretse ameza n'intebe bikozwe mu rubaho, hasi ahubakishije amakaro y'kigina ku bikuta hasize irangi ry'umweru, urugi rukinze ravabo aho bakarabira intoki.

Intebe idoze mu mwenda ufite ibara ry'icunga, ku ruhande ameza y'ikirahuri ateretseho umutako, inzu isize amarangi y'umweru, urugi rw'ikigina hasi hubakishije amakaro.

Imodoka yu'mweru iri mu muhanda wumukara ifite amapine y'umukara, iri mu mabara yu'mweru ndetse harimo n'mabara y'umuhondo, iruhande rwayo hari ipikipiki itwaye umuntu umwe wambaye agakote k'umuhondo ndetse n'ubururu, ipantaro y'umweru ndetse numupira w'mweru n'undi wambaye umupira wumukara ipantaro y'umuhondo werurutse n'ingofero y'ubururu ahetse n'igikapu cy'umukara.

Ibi ni ibikoresho byifashishwa mu kubika neza umusaruro w'amata, waturutse mu duce dutandukanye, uyu musaruro ugahabwa abakiriya batandukanye.

Inzu ikoreramo hoteli, urubaraza rwayo ruteretseho amavaze arimo indabo z'imikindo, mo imbere mu nyubako harimo intebe nziza zifunikishije umwenda ufite ibara ry'icunga, amatara ari kwaka,

Inzu isize amarangi y'ubururu ku mpande yubakishije amatafari ahiye, ku rubaraza hateretse amavaze, ubusitani imbere burimo imitaka n'intebe ziteretse, indabo nziza n'imikindo.

Inyubako ndende igeretse, ifite ibirahuri by'ubururu, imbere yayo ubusitani buteyemo indabo n'ibiti by'amoko atandukanye, no ku mbaraza zayo.

Inyubako nziza ikoreramo hoteri ahahagaze imodoka muri parikingi abantu babiri bari kuganira umwe afite igikapu kurutatugu k'umuzenguko wayo hateye ibiti n'indabo n'imikindo.

Igiti kirekire giteye imbere y'inzu ikinguye ikorerwamo ubucuruzi, ibyapa bimanitse kuruhande ikigaragaza ikigo cy'ubwishingizi.

Imodoka z'amako atandukanye zihagaze imbere y'inyubako ndende ikoreramo ikigo cy'ubwishingizi Sanlam, ibirahure byiza n'irangi risize kuri iyo nyubako.

Inzu ikoreramo ikigo cy'ubwishingizi imiryango yacyo irafunze hariho utwapa dutandukanye, hejuru hariho icyapa cy'ubururu ku ruhande hari ikindi gikozwe mu rupapuro.

Aya n'ameza ari mu nzu, bigaragara ko aya meza ari ayokuriho arimo n'intebe nazo zibaje mu biti ariko aho bicarira hariho imisego.

Mu nzu ikoreraro ikigo cy'ubwishingizi. Muri iyo nyubako hateretsemo intebe, ameza ariho za mudasobwa, indabo z'imitako ziri mo imbere.

Inzu isize amarange y'umweru n'umutuku kugikuta hashushanyije icyapa kikigo cyubwishingizi, idirishya rifunze umuryango ufunguye ufite urugi rutukura.

Icyapa cy'umweru kiri ku nyubako ndende ya etage, itangazo, ahari nimero wahamagara ukeneye kwiyandikisha mu kigo cy'ubwishingizi, inyubako ku ruhande ikoreramo banki.

Urupapuro rw'umweru ruriho kimwe mu bigo by'imari cya ayi endi emu. Aho wakandika usaba inguzanyo hari aho gushyira amazina imyirondoro yose itandukanye.

Icyapa kiriho ifoto y'inzu nziza igeretse, umugore ufashe telefone mu ntoki ikiganza yagiseze ku munywa yatangaye cyane, ni ikigo cy'ubucuruzi cya banke nyafurika aho wafata inguzanyo ukagera ku nzozi zawe.

Umukobwa mwiza w'inzobe ufite imisatsi miremire ahagaze ku modoka ifunguye, ikiganza cye gifite imfunguzo zayo mu ntoki, n'itangazo ry'ikigo cy'ubucuruzi n'amabanki aho wakwifatira inguzanyo ukagera ku nzozi zawe.

Mu nzu isize amarange y'umutuku n'umweru ku bikuta hejuru hamanitse isakazamashusho televiziyo. Abantu bahagaze bingeri zitandukanye abagabo n'abagore ameza ariho ibitambaro by'umweru.

Mu muhanda harimo imodoka isize irangi ry'ubururu, imbere harimo haraturukayo ipikipiki ihetse umuntu, hirya gatoya hahagaze umuntu, ku muhanda hari ibiti binini cyane.

Ikigo kiriho itangazo ry'ikigo cy'ubucuruzi n'amabanki gitanga inguzanyo, aho ushobora gufata inguzanyo y'igihe kigufi cy'amezi atandatu. Ibiganza bibiri by'abantu kimwe kirambitse ku gakarito gatukura ikindi gifashe agafunguzo mu ntoki.

Urupapuro rw'umweru ruriho ifoto y'umukobwa umwenyura afite utwuma mu ijosi rye yambaye itaburiya y'umweru ni itangazo ry'ikigo cy'ubucuruzi n'amabanki aho wahabwa inguzanyo.

Icyapa cyamamariza ikigo cy'ubucuruzi cya banki ya Kigali, ifoto y'umugore umwenyura ufashe igiseke mu ntoki aho ushobora kwagura ubucuruzi bwawe wifashishije inguzanyo.

Ifoto iriho umugore n' umugabo bombi bamwenyura afite urufunguzo mu ntoki, aho batangaza ko ushobora gufata inguzanyo nawe ukitungira inzu yawe bikava mu nzozi.

Icyapa kiriho itangazo cy'ubucuruzi n'amabanki, hagaragaraho ifoto y'umusore useka cyane, hariho ibibazo ushobora gusubiza wabitsinda neza ugahabwa inguzanyo.

Icyapa kiriho ifoto y'umukobwa wegamiye imodoka, hariho ikigo cy'ubucuruzi, itangazo rihamagarira abashaka inguzanyo kugira ngo bagere ku nzozi zabo batunge imodoka.

Umukobwa ufite ibisastsi byinshi, ufite telefone mu ntoki, uhetse igikapu cy'umukara, ikiganza cye yakizamuye yatangaye cyane, ni icyapa cyamamariza ikigo cy'ubucuruzi n'itumanaho cya emutiyeni, aho ushobora gutsindira miliyoni buri munsi cyangwa eshanu.

Icyapa kiriho ifoto y'umugabo wambaye umupira utukura n'ipantaro y'umukara asimbuka, ni itangazo ry'ikigo cy'ubucuruzi banki y'abaturage ikangurira abantu kuza gufata inguzanyo.

Icyapa cyamamariza ikigo cy'ubucuruzi n'amabanki cya ekwiti, ifoto iriho abagore babiri bagaragaza isura bamwenyura, aho ushobora guhamagara ukifatira inguzanyo.

Abagabo bicaye bambaye udupfukamunwa hari ufashe icupa ashyizeho ari kunywa amazi, amacupa ateretse ku meza arimo amazi, abagabo babiri bahagaze kuri gishe.

Umugabo wirabura wambaye ishati y'ikigina ikiganza cye gifashe ku munwa ni mu nzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda y'ibitenge abagabo n'abagore bahagaze muri iyo nyubako.

Umugore witeze agatambaro wambaye umupira w'amabara y'umweru n'umukara, imbere ye hateretse ibitebo imifuka birimo imbuto zamoko atandukanye kumeza hari inanasi, ibinyomoro, amaronji n'imyembe nibindi.

Amabase arimo inyanya, intoryi ziri ku mifuka. Abagore benshi bari mu isoko bambaye imyenda y'ibitenge n'udupira tw'imikara, udutukura n'ibindi.

Mu isoko ry'imbuto zitandukanye, umugore wicaye ari gutenga voka mu dusahani, amacunga menshi apanze mu tubase, imineke, ibijumba, umugabo uhagaze ku ruhande, uri guhaha.

Ni inzu ikoreramo ubucuruzi aharimo imyenda y'amoko atandukanye, imipira amashati yo mu bwoko bw'ibitenge, imyambaro y'abagore yo mu ijosi, harimo imitako, uduseke, n'ibindi.

Ikibanza kiri ku nzira hakurya iyo nyubako yubakishije amabati, urugo rwayo ruyizitiye ruriho ibyuma n'amatafari, inyuma hari ikibanza kinini giteyemo ibiti n'insina.

Umugabo wiyogoshesheje wazamuye akaboko, wambaye ikoti ry'ubururu n'ishati y'umukara ndetse na karuvati y'ubururu, imbere hakaba hari mikorofone, inyuma ye hakaba hari dolise y'amashokora ndetse munsi hakaba hari amagambo yandikishije inyuguti z'umweru, handitseho Dogita Utumatwishima Ja, munsi hakaba hari n'undi.

Mu nyubako ikoreramo isoko, ibiti birebire bifite imitambiko, hamanitseho inkweto, amashakoshi, n'ibindi, abagabo n'abagore, ndetse n'amakiriya bari muri iryo soko.

Umugore wambaye umwenda w' igitenge imbereye ye undi wambaye agatambaro mu mutwe n' amarinete afite agashashi mu ntoki baraganira, inyuma yabo hahagaze umugabo wambaye umupira w' umukara n' ipantaro itukura ni mu isoko aharimo imboga z' amoko atandukanye harimo n' inyanya.

Inzu ntoya y'ikigo cy'itumanaho cya Eyateri, ahakorerwa ubucuruzi bwo kohereza amafaranga, no kuyabitsa, no kuyabikuza. Abagabo babiri bahagararanye n'umugore bose bamwenyura.

Mu nzu ikorerwamo ubucuruzi abagabo, abagore bateraniyemo bari guhaha, harimo n'ababikuza kuko harimo ikigo cya MTN k'ikoranabuhanga. Umugabo wambaye umupira w'umukara n'amarinete imbere ye ku meza hateretse mudasobwa.

Umugabo wambaye umupira utukura, uhagararanye n'undi wambaye ijire y'umuhondo. Abandi bicaye ku ruhande rwabo, umutaka w'umuhondo w'ikigo k'itumanaho cya emutiyeni, ahakorerwa ubucurizi bwo kubitsa, kohereza n'amafaranga.

Kiyosike ikoreramo ubucuruzi bw'ikigo cy'itumanaho cya aitel hasizeho amarange atukura. Umugore wicaye wambaye umwenda y'umuhondo, ku ruhande umugabo uhagaze imbere y'imodoka wambaye imyenda y'umweru.

Umugabo uri mu nzu ikorerwamo ubucuruzi, yambaye umupira w' amabara y' umutuku n' umukara n' umweru mu biganza bye. Afashe terefone mu ntoki imbere hari undi wambaye umupira w' umuhondo ukorera ikigo cy' itumanaho cya MTN ku meza hateretse mudasobwa.

Amadirishya abiri afunguye mu nyubako ntoya ikoreramo ubucuruzi bw'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni, umusore wambaye umupira urimo amabara y'ikigina n'ay'umweru, imbere hateretse ikayi n'ikaramu.

Icyapa kiriho ikarita y'umuhondo y'ikigo cy'ubucuruzi cy'ikoranabuhanga cya emutiyeni, hariho nimero za kode z'umucuruzi aho bishyurira abahawe serivise.

Ibiti bimanitseho imyenda y'amoko atandukanye yo mu bwoko bw'amakoboyi, icyapa kinini cy'umuhondo kiriho kode z'umucuruzi, ikiganza gifashe ipensi mu kuboko ndetse n'ijiri, utwuma dutandukanye, tumanitseho imyenda.

Umugabo umwe n'abagore babiri bahagaze ku nzu ntoya y'ubucuruzi bw'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni amadirishya arafunguye aho bashaka serivisi zo kubitsa no kubikuza amafaranga.

Abasore babiri bahagaze mu kibuga bari kubyina inyuma yabo ahari indangururamajwi nini abagore batatu bahagaze imbere y'amakarito, ahari gukorera ubucuruzi bw'ikigo cy'itumanaho cya mtn.

Ni imitako ikorwa n'abanyabugeni, imanitse ku rukuta rw'umukara ubusanzwe ibi byifashishwa mu kubitaka mu mazu, yaba ayo mu ngo ndetse n'ahatangirwamo serivisi.

Icyapa kinini kiriho utundi dutoya cyamamariza ibigo by'ubucuruzi, aho ushobora kwihahira unyuze kuri murandasi. Ifoto y'abakobwa batatu, babiri bamwenyura.

Abamotari bahagaze imbere y'inyubako, umwe ari gushyirirwaho kuri moto imizigo, ari gufashwa n'umuntu wambaye imyenda y'ubururu n'umugore umuri inyuma wambaye igitenge nabandi bagore babiri bari inyuma

Inzu ikodeshwa angana n'amadorari igihumbi n'ijana ku kwezi, iherereye i Kigali, mu Rwanda. Mu gikori ahari amashyiga yo gutekaho, imashini zicomeka amazi, izishyushya ibiryo, utubati two kubika ibikoresho.

Inzu nziza igaragaza idirishya rifunze, urubaraza ruriho ama esikariye, urukuta rw'amakaro, igaragaza ko igurishwa angana na miliyoni ijana na mirongo itanu z'amanyarwanda.

Mo imbere mu munzu, agaragara icyumba cy'ubwogera gifite ibikuta byubakishije amakaro, iswime ku ruhande cyangwa se igitambaro cyo kwihanaguza amazi, ibirahuri by'ubakishije ahahagararwa umuntu ari kwiyuhagira, amatiyo y'amazi.

Ahangaha biragaragara ko ushobora gutunga apurikasiyo ya ekwiti banki muri telefoni, maze ukajya uyifashisha mu bikorwa ushaka gukoresha konti yawe haba kohereza amafaranga, kubitsa, kubikuza n'ibindi.

Inzu igurishwa miliyoni ijana na mirongo itatu iherereye i Kigali mu Rwanda. Ifite parikingi ijyamo imodoka ebyiri, urubaraza rwayo hariho urukuta cyangwa se inkingi y' amakaro, idirishya rinini umureko uri mu nguni.

Inyubako ifite ibara ry'umweru ifite n'amadirishya y'umukara arimo utwuma, harimo amarido afite ibara ry'ubururu ndetse n'udutebe, ndetse hari n'akagare kicaramo abageze mu za bukuru ndetse n'abamugaye, harimo n'ifoto imanitsemo muri iyo nyubako.

inzu iherereye i Remera, irakodeshwa, ifite icyumba kimwe n'ubwogero bumwe n'igikoni kigezweho, imbere yayo hari urubaraza rukozwe mu isima.

Inzu igeretse ya etage ku rubaraza rwayo hateretse amavase arimo indabo z'amoko atandukanye ifite ibyumba bitatu ndetse n'ibindi bibiri by'ubwogero ikodeshwa angana n'amadolari igihumbi buri kwezi.

Imbuga yubakishije amapave imbere y'inyubako isize amarangi atukura na y'umuhondo ifite urubaraza ruriho ibyuma ifite ibyumba bibiri ubwogero bubiri ikodeshwa ibihumbi magana ane ku kwezi iherereye muri kimironko.

indabo ziteye mu tubuye, ijerekani y'umuhondo, parikingi ijyamo imodoka eshatu, inyubako ifite urubaraza rwubakishije amakaro hariho n'ibyuma, amatara ku gisenge isakaje amabati y'umukara, igurishwa miliyoni mirongo ikenda n'eshanu iherereye i kanombe mu mujyi wa kigali.

Umuryango w'inzu ifunguye, ahahera mu gikoni hari aho bogereza ibikoresho. Ìkodeshwa amafaranga ibihumbi ijana mirongo itanu. Ifite icyumba kimwe n'igikoni kigezweho.

Inyubako nshyashya iherereye mu mujyi wa kigali i kanombe, igurishwa angana na miliyoni ijana na cumi nimwe, ifite ibyumba bine, ubwogero butatu, parikingi, ubusitani buteyemo indabo, amadirishya n'inzugi, ibirahuri byiza.

Inzu isize amarangi y'umweru hasi yubakishije amakaro, ifite amatara ku bikuta no mu bisenge, urugi rutukura, iherereye i kanombe mu mujyi wa Kigali, ifite ibyumba bine na bitatu by'ubwogero ikodeshwa amafaranga y'u Rwanda ibihumbi magana atatu na mirongo itanu buri kwezi.

Abantu benshi abagabo n'abagore barimo uwambaye umwenda w'umuhondo uhetse igikapu mu mugongo. Mu isoko ahakorerwa ubucuruzi bw'imyenda, abakiriya, abaguzi n'abagurisha urujya nuruza rw'abantu.

Inzu nini ikoreramo ubucuruzi, etajeri ndende zirimo ibicuruzwa bitandukanye, umugore uhagaze imbere afite agakoresho muntoki yitegereza ibyo yahitamo agura.

Mu nzu ikorerwamo ubucuruzi abagabo n'abagore bahagaze bahaha ibicuruzwa bitandukanye, harimo abambaye imyenda y'ubururu iy'imyeru, umucuruzi wambaye itaburiya y'umutuku.

Mu iduka ririmo ibicuruzwa byinshi by'amoko atandukanye. Etajeri ndende zipanzemo, umugabo wambaye imyenda yirabura ahagaze iruhande rw'akayetajeri kagufi.

Abagore n'abagabo bari mu iduka ricuruza imyambaro, imitako. Umugore ufite isakoshi y'umweru ku rutugu yambaye ikanzu y'umweru irimo amabara agatambaro k'iroza mu mutwe uwo ku ruhande w'umupira w'umweru, inyuma gato hari undi ufite isakoshi y'umukara mu ntoki.

Iduka rinini rikoreramo ubucuruzi benshi bazi ku izina rya supamaketi, abagabo babiri bahagaze imbere y'ameza, umwe yambaye umupira w'imbeho w'umukara n'ipantaro, y'ikoboyi undi yambaye ipantaro y'ikoboyi n'umupira ufite ibara ry'icunga.

Mu iduka rikoreramo ubucuruzi, harimo etageri zirimo inkweto, amashakoshi, amacupa y'amavuta, imyambaro n'ibindi bitandukanye biri mu matajeri akozwe mu birahuri.

Iduka rikorerwamo ubucuruzi; amatara yaka, hejuru imitako, etajeri ziriho ibicuruzwa. Umugabo wambaye agapfukamunwa k'umukara ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, ahagararanye n'umusore wambaye umupira utukura n'umweru n'ipantalo y'ikoboyi kuruhande rwabo hari umugore.

Akabati gakoze mu kirahuri, k'umweru, amacupa menshi arimo amavuta y'ubwoko butandukanye, mu nzu y'ubucuruzi, inkingi, amakaro y'umukara.

Umugabo wambaye umwenda w'ubururu, umutwe yambaye ingofero imbere ye hahagaze abandi bagabo benshi. Ni munzu ikorerwamo ubucuruzi aharimo, amashakoshi y'amabara atandukanye.

Mu nzu y'ubucuruzi imashini, televiziyo, ibitambaro, ibicuruzwa, ibiganza biri kuzinga agatambaro etajeri, amatara ari kwaka.

Abagore bane bicaye kuntebe y'urubaho umwe yambaye umupira w'icyatsi kibisi uwo hagati ateruye umwana mutoya mwijosi yambaye ishapuri agapira k'umukara ukurikiyeho yambaye nawe agapira k'umukara undi yambaye umweru.

Mu muhanda harimo imodoka isize irangi ry'ubururu, imbere harimo haraturukayo ipikipiki ihetse umuntu, hirya gatoya hahagaze umuntu, ku muhanda hari ibiti binini cyane.

Abasore bambaye amajire y'icyatsi kibisi, umugabo uri iruhande wambaye ishati y'ubururu, ahateraniye abagabo n'abagore bari guhabwa amahugurwa ku bijyanye n'ubwizigamire, abayobozi bari hejuru yabo kuri siteji, aho babaha inama, bambaye imipira y'umweru n'ingofero z'umweru.

Mu iduka rinini rikorerwamo ubucuruzi, etajeri ndende zirimo ibicuruzwa bitandukanye, inyubako ifite hasi amakaro hejuru mu gisenge hari amatara na za kamera.

Umugabo uhagaze munzu ikorerwamo ubucuruzi yambaye amarinete afite igikapu k'urutugu telefone muntoki isaha k'ukuboko ikiganza kirambitse kumeza imbereye hari umuhereza imashini aho yarambitseho telefone.

Mu nzu ikorerwamo ubucuruzi umugabo wambaye umupira utukura iruhande rwe abagore babiri harimo uwambaye ishati itukura akapa k'umuhondo kanditseho amagambo y'ikigo k'itumanaho cya MTN umugabo ukuze uri inyuma wambaye ishati itukura.

Mu nzu y'ubucuruzi etajeri ndende ziriho ibiribwa bitandukanye, harimo ibirungo bikoreshwa mu cyayi. Ikiganza cy'ufashe icupa mu ntoki.

Umukobwa ufite imisatsi isutse wambaye amarinete mu maso n'ikote ry'ikoboyi, aramanura ibicuruzwa muri etajeri ndende, imbere ye hari ameza arambitseho inanasi n'ibindi binyobwa bitandukanye.

Imodoka ifite ibara ry'umweru yo mu bwoko bwa Hyundai iparitse hamwe nandi mamodoka menshi ifite icyapa cya ndistseho kigali Carizi maketi iparitse imbere yinzu ifite irangi ry'umuhondo n'amadirishya y'umukara na konteneli y'umutuku .

Amakaro yubakishije inzu y'ubucuruzi, etajeri ndende, harimo ibicuruzwa byinshi bitandukanye imitobe, ibikoresho by'isuku ibiribwa n'ibindi byinshi.

Abantu benshi bicayemo ahantu m'imbere mu inzu, imbere yabo hariho ameza n'ubucupa bw'amazi, hejuru ku meza na za mikoro imbere yaho harimo na za telefone zabo niho zirambitse hakurya urugi rurafunguye.